Abantu bateraniye hamwe mu nama, imbere yabo hateretse amazi na mudasobwa, amazi akorwa n'uruganda rw'inyange, rukorera mu Rwanda.

Abantu benshi bateraniye hamwe bahagaze bari gukoma mu mashyi, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi akorwa n'uruganda Inyange rukorera mu Rwanda.

Abantu benshi bari mu nama bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hateretse amazi akorwa n'uruganda rw'Inyange n'umutobe ukorwa n'uruganda rw'Inyange ikorera mu Rwanda.

Abantu bateraniye hamwe bari mu nama bicaye mu buryo bw'ishusho y'urukiramende, imbere yabo hateretse amazi ndetse na ji, byose bitunganywa n'uruganda rw'Inyange, imbere yabo hakaba hari uturangururamajwi.

Ku manywa abantu benshi bicaye imbere yabo hateretse amazi akorwa n'uruganda rwa surufu yitwa Nili, akaba imbere yabo hateretse indabo n'ibikapu byabo, akaba ameza ateguyeho igitambaro cy'umweru ndetse n'icy'umuhondo.

Igipapuro kiriho itangazo ry'akazi ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda, kiriho imyanya y'akazi itandukanye, kigizwe n'amabara umuhondo, umweru, ubururu n'umukara kiriho intebe.

Icyapa kiriho ikirango cy'ikigo gishinzwe amashanyarazi cyitwa rege giherereye igikondo gifite amabara y'umweru n'umutuku n'inyuguti zandikishije ibara ry'umukara.

Ku manywa mu busitani bunini buteyemo ibiti bitandukanye, inyuma y'ubusitani hari inzu ndende ifite amabara y'ubururu n'umweru, hanze haparitse imodoka.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hari abantu bari kubakoresha inama hakaba hari umuntu uhagaze imbere yabo wambaye imyenda y'iroza, hari abari kumuburanisha byitwaga gacaca.

Abagabo babiri barimo kuganira umwe yambaye imyenda y'iroza undi yambaye imyenda y'umukara n'umweru, umwe akaba amuhagarariye mu by'amategeko undi akaba ari imfungwa; hirya yabo na ho hicaye abandi bagabo bambaye imyenda y'amaroza.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'umweru, wambaye ishati y'iroza n'ikabutura y'iroza, yicaye mu ntebe y'umukara, afashe mu ntoki ze igitabo gifite igifuniko cy'ubururu.

Igikoresho cy'icyuma gisa umutuku, cyifashishwa igihe habaye inkongi y'umuriro, kugira ngo kirwanye umuriro, cyangwa se kiwuhagarike mu buryo bwihutirwa.

Ahantu runaka ku manywa hari igikoresho cy'umutuku gifite umupira w'umutuku gikoreshwa mu gihe habonetse inkongi y'umuriro kugira ngo kigabanye cyangwa gikureho burundu umuriro wabonetse hari n'ayandi makarito atandukanye.

Umugore wambaye ikote ry'umuhondo n'agapira k'umukara n'amadarubindi, wicaye ku ntebe y'umukara iruhande rwe hari amadapo airi, idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda hakaba n'idarapo ry'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Ku manywa imodoka na moto, imodoka iri gukata ishaka kwinjira ibumoso bwayo, imodoka itwara imizigo ifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Ku manywa, n'imodoka iri mu bwoko bwa hoho ifite amabara y'umutuku n'umukara ihetse imizigo inyura mu muhanda uteyemo ibiti.

Nijoro abamotari benshi baparitse ahantu, bambaye ingofero z'umuhondo, amapikipiki yabo akaba afite ibara ry'umutuku, menshi muri yo akaba akoresha ingufu z'amashanyarazi.

Kumanywa moto ebyiri na bisi imwe itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ikorwa n'uruganda rwitwa Yutongo, ifite amabara y'ubururu n'umweru.

Ku manywa abantu bari mu muhanda, hari amapikipiki atambuka, hari umuntu usutamye n'abandi bantu bari kugenda; iruhande hari igikoresho cyifashishwa mu gutwara imizigo iremereye bita ishereki.

Icyapa kiri mu ishusho y'umwashi, ifite ubuso bw'umuhondo, harimo utumenyetso tubiri, akamenyetso kamwe kandikishije ibara ry'umukara, kareba hejuru, iyindi kaba ari akamenyetso kandidikishije ibara ry'umutuku mo hagati harimo umweru, ka mpandeshatu.

Ikinyempande cy'umwashi gifite ubuso bw'umuhondo, izengurutswe n'ibara ry'umukara, irimo ikirango cy'umusozi, bifite amabara y'umukara n'imodoka by'umukara kimenyesha ko hari amabuye ahanuka.

Ku manywa, inzu igeretse, imiryango ifunguye, ifite ibyapa bitandukanye, harimo icyanditseho ca, ha na ba.

Ku manywa amazu aherereye mu mujyi wa Kigali i Remera, amazu yubatse kijyambere afitemo n'ibiti biteyemo hakaba hari n'andi mazu y'amagorofa harimo n'iminara.

Ku manywa igikuta cyubakishije amabuye kiri mu ishyamba hateyemo ibiti by'imigano hari umusekerite uhagaze hakaba n'akabuza abantu kwinjira gafite amabara y'umweru n'umutuku.